Abaturage biganjemo urubyiruko barimo gusobanurirwa, n'umupolisi ibijyanye na gahunda ya gerayo amahoro no gucunga umutekano w'ibintu n'abantu.

Ikigo cyubatswe ku buryo bwa kijyambere, gitangirwamo amahugurwa n'inyigisho z'ibijyanye n'umutekano, haba ku baporisi, ingabo n'abayobozi batandukanye.

Dorone nka bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'inzego z'umutekano, mu gucunga umutekano w'abantu n'ibintu.

Polisi y'igihugu irimo gutanga ibihembo by'ikoranabuhanga, ku babaye indashyikirwa mu gutangira amakuru ku gihe, no kuyifasha mu gukumira icyaha.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka sofiya, byifashishwa mu gucunga umutekano wo ku muhanda, nka bumwe mu buryo bwo kugabanya impanuka z'ibinyabiziga.

Urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa rurimo guhabwa amahugurwa ku bijyanye no gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira n'ubutabera.

Imyitozo ngororamubiri irimo guhabwa itsinda rinini ry'urubyiruko rishinzwe kurinda umutekano w'ibintu n'abantu. Ubona ko barimo gutozwa ku buryo bushimishije.

Ibimenyetso by'amatara bishyirwa mu mihanda, ni bimwe mu bikoresho byifashishwa na polisi y'Igihugu mu kurwanya impanuka, ziterwa n'ubwinshi bw'ibinyabiziga n'abantu.

inzego z'ubuyobozi bwite bwa Leta n'inzego zishinzwe umutekano baririmo kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gucunga umutekano bwifashishwa n'ibigo bitandukanye, harimo: amabanke, amahoteli, n'inzu zikorerwamo n'ubuyobozi.

Abashinzwe umutekano no kurinda ubusugire bw'igihugu, bambaye imyambaro yabo y'akazi, ndetse batonze umurongo.

Itsinda rinini ry'ingabo z'igihugu ryambaye impuzankano ya gisirikare, rifite ibikoresho nk'imbunda n'ibyo batwaramo amasasu ,n'ingofero z'imitamenwa.

Abashinzwe umutekano w'ibintu n'abantu, barimo gukora amahugurwa ajyanye na byo, kugira ngo bashobore kugira ubumenyi buhagije, mu gucunga umutekano.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe imodoka za twegerane, ni bumwe mu buryo bwaciwe na Leta y'u Rwanda kuko bwatezaga impanuka.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe za pulasitike bari kumwe n'umuyobozi wabo, arimo kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka.

Inama yitabiriwe n'abagabo n'abagore barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka, iri kubera ahantu hateguye neza kandi hubatswe ku buryo bwa kijyambere.

Icyumba cy'inama, cyubatswe ku buryo bwa kijyambere, kiri gukorerwamo inama, yitabiriwe n'abagabo, n'abagore bicaye mu buryo butekanye, barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagore n'abagabo, bamwe bicaye mu gacaca abandi bicaye ku ntebe abandi bahagaze, bari kumwe n'umuyobozi wabo bari kuganira ku ngingo runaka.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore, bicaye mu gacaca bari kumwe n'umuyobozi, bari kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagore, n'abagabo bicaye mu gacaca bari kumwe n'umuyobozi wabo bungurana ibitekerezo ku ngingo runaka.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore bicaye mu gacaca. Hakikijwe amashyamba, bari kumwe n'umuyobozi, bungurana ibitekerezo ku ngingo runaka.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore bicaye mu gacaca, aho bateze amatwi ijambo bari kugezwaho n'umuyobozi wabo.

Inzu ndangamurage yubatswe ku buryo bwa kijyambere igizwe n'imitako inyuranye abantu baza kuyisura no kuhigira amateka.

Ibikoresho gakondo, byiganjemo ibiboshywe mu migano, byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu mirimo yabo ya buri munsi, nk'ingobyi zo guhekamo abarwayi, n'ibitebo byo guhunikamo imyaka.

Amayogi ni bimwe mu bikoresho gakondo, byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu gutanga amajwi meza y'umuziki, ndetse bikifashishwa no mu buhigi.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda mu mirimo yabo ya buri munsi harimo: inkondo, ibicuma n'imiheha, ibisabo n'ibiseke.

Itorero ry'umuco nyarwanda rigizwe n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, aho barimo kwiyerekana mu masha yayo, bikoreye uduseke bambaye imyambaro yabo myiza.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere. Harimo ibyansi, ibicuba, imbehe, ibiseke, ingabo, n'ibindi bitandukanye.

Itorero ry'umuco gakondo, rigizwe n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, aho abakobwa barimo kwiyerekana mu mbyino ibereye ijisho, n'abahungu bagakoma ingoma.

Umuco nyarwanda warangwaga no kwidagadura, haba ku rubyiruko cyangwa abasheshe akanguhe, aho bakinaga imikino itandukanye nko gukina igisoro.

Ibikoresho bitandukanye harimo ibiseke, ibitoya n'ibinini, ni bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu guhunikamo imyaka babaga bejeje.

Umutsima w'amasaka uzwi nka rukacarara, ni imwe mu ndyo zaribwaga n'abanyarwanda bo hambere, cyane cyane ku munsi w'umuganura.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu gusya ibinyampeke bitandukanye, harimo: urusyo, n'ingasire yarwo.

Igisabo ni kimwe mu bikoresho byifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere mu gucundiramo amata no kubikoresha mu mitako y'ubwiza.

Amafunguro atandukanye ya gakondo, abanyarwanda bo hambere bafunguraga, ku munsi w'umuganura harimo ibijumba, ibigori, umutsima w'amasaka, umutsima w'uburo ni ibindi.

Isekuru, igikoresho gakondo kibajwe mu giti kifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, barimo gusekura imiti itandukanye, cyangwa ibinyampeke bitandukanye bari gushaka ifu.

Ubworozi bw'inka z'inyambo, ni bumwe mu bworozi bukurura ba mukerarugendo, baje kureba ubwiza bw'umwimerere w'inka za kinyarwanda.

Igisoro ni kimwe mu mikino yakinwaga n'abasheshe akanguhe, mu rwego rwo kumara irungu no kungurana ibitekerezo, bigatuma habaho ubusabane hagati yabo.

Igisabo ni igikoresho gakondo Abanyarwanda bakoreshaga barimo gucunda amata, cyangwa bakakibikamo amata.

Itorero rya gakondo rigizwe n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bambaye imyenda yabo, ubona ko barimo kubyina bishimye.

Amayugi ni bimwe mu bikoresho gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu mirimo yabo itandukanye harimo nko kubyina cyangwa ubuhigi.

Iningiri cyangwa umuduri ni bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, barimo kuririmba mu birori bitandukanye.

Imboga z'isogi, ni zimwe mu mboga zakundwaga n'abanyarwanda bo hambere, bakundaga kuzirisha umutsima w'amasaka bita rukacarara.

Inkono z'itabi zikozwe mu biti , zifashishwa n'abanyarwanda bo hambere mu kunywa itabi, no gusabana na bagenzi babo.

Ibyansi ni bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, mu kubuganiza umusaruro w'amata n'ibiyakomokaho.

Abanyarwanda bo hambere bahezaga igitsina gore mu kuvuza ingoma no mu mirimo imwe n'imwe, kuko biyumvishaga ko batashobora iyo mirimo ari iyagenewe abahungu gusa.

Umuduri ni kimwe mu bikoresho gakondo, byifashishwaga n'abanyamuziki bo hambere, mu gukora ibihangano byabo no kumvikanisha ubutumwa, binyuze mu bihangano by'indirimbo.

Umwuga wo kuboha n'umwe mu myuga yifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu gukora imitako itandukanye, n'ibikoresho bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuco nyarwanda ugaragazwa n'ibintu bitandukanye: harimo imyambarire y'abakera , hakabamo ibikoresho ndetse n'uburyo bakoresha ibintu karemano mu kuzitira ingo zabo.

Urusyo n'ingasire yarwo ni bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere mu gusya ibinyampeke bitandukanye, kugira ngo babone amafu yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Itorero gakondo rigizwe n'urubyiruko rw'abakobwa, nka bamwe mu batarahabwaga agaciro mu muco nyarwanda n'abanyarwanda bo hambere.

Itorero rya gakondo ririmo kubyina imbyino za kinyarwanda, mu myambaro yabo iteye ubwuzu, hifashishijwe ibikoresho byabo bya gitorere.

Imbyino gakondo ni bumwe mu buryo bwifashishwaga n'urubyiruko rwo hambere, mu gushimisha no gususurutsa abaturage n'abayobozi babo.

Mu mucyo wa kinyarwanda, aba kera bashingiraga umwana w'umukobwa, aho umukobwa yahekwaga na basaza be mu ngobyi za kinyarwanda, bamushyikirije umugabo we.

Ibikoresho gakondo bitandukanye, byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Harimo ibisero, amasekuru, ibibindi, inkono, ibisabo n'ibiseke.

Ubworozi bwinzuki bukozwe mu buryo bwa gakondo, aho guhakura ubuki muri iyi mizinga byangiriza ibidukikije.

Umuvure ni kimwe mu bikoresho bya kinyarwanda bibajwe mu giti, byifashishwaga n'abanyarwanda mu mirimo itandukanye, nko gushora inka cyangwa kubikamo amazi.

Itorero rya gakondo rigizwe n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, aho abakobwa bambaye imyambaro yabo, imishanana, amayugi barimo guhamiriza.

Umuco nyarwanda aho abasaza barimo gusogongera inzoga iri mu kibindi bifashishije imiheha mu misango y'ubukwe.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu gutaka no gutegura, mu nzu zabo harimo imihurura n'ibirago, biboshywe mu buryo bwa gihanga.

Ubworozi bw'amatungo maremare, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro uhagije ku borozi babwo, iyo bwitaweho ku buryo bugaragara.

Imbyino gakondo, ni bumwe mu buryo abanyarwanda bo hambere, bifashishaga mu gususurutsa no gushimisha, abitabiriye ibirori bitandukanye.

Ububumbyi bw'inkono n'imbabura ni bumwe mu buryo bwatejwe imbere kugira ngo bukorwe kijyambere, bwinjirize ababukora amafaranga atubutse.

Ingoma ni kimwe mu bikoresho gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu birori bitandukanye, cyangwa kumenyesha abantu ahazabera igikorwa runaka.

Itorero rya gakondo, rigizwe n'urubyiruko rw'abahungu, barimo kwiyerekana mu myambaro yabo ya gitore, bambaye ibihura, amasari, bafashe amacumu n'ingabo mu ntoki zabo.

Ibirago ni bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'Abanyarwanda, bo hambere, mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse bamwe babyifashishaga, babisasa ku buriri, abandi bakabyiyorosa.

Ubugeni ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu gutanga ubutumwa runaka bishingiye ku ngingo bashaka kumvikanisha mu bantu.

Isuka ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu mirimo itandukanye y'ubuhinzi, aho abahinzi bayikenera kugira ngo bite ku bihingwa byabo.

Imyubakire y'Abanyarwanda bo hambere, yabaga igizwe n'ubugeni n'ubuhanga butangaje, bituma ba mukerarugendo baza kureba ubuhanga bwabo.

Inka z'inyambo, ni bumwe mu bworozi bwakorwaga n'abanyarwanda bo hambere, nka bimwe mu bigize umuco nyarwanda, kuko zifite ubwiza bwo kuzireba n'uburyo zitozwa zikamenya abashumba bazo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bitanga umuziki mu majwi ayunguruye, bigashimisha abarimo kumva umuziki ubiturutsemo.

Ibikoresho bizwi nka kizimyamuriro, ni bimwe mu bikoresho polisi y'igihugu ishishikariza abaturage, cyangwa ba nyiramazu gushyira ku nzu zabo, kuko bibafasha mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu mashanyarazi, kugirango hakwirakwizwe amashanyarazi, ku baturage benshi,

Umurasire w'izuba nka kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abaturage baciriritse, mu kubona umuriro w'amashanyarazi bakoresha mu ngo zabo.

Inyubako nini ya leta yubatswe ku buryo bwa kijyambere, ikorerwamo n'ubuyobozi, aho abaturage baza gushakira ibisubizo n'ibyangombwa ku bibazo byabo.

Inyubako nini, yubatswe ku buryo bwa kijyambere, yubakishijwe ibikoresho bikomeye, ubona ko aribitaro bizavurirwamo abaturage benshi.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere. Ikorerwagamo n'ubuyobozi, aho abaturage bahagana baje kushakira serivisi bakeneye.

Inyubako nini yubatswe ahantu h'icyaro, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, iteye igipande ahantu hato, bigaragara ko ari urusengero.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye kandi akomeye, isakajwe amabati y'ubururu, isize amarangi y'umuhondo n'umweru, bigaragara ko abakirisitu bayisengeramo.

Inyubako ndende yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ubona ko ari ahantu heza kandi hagutse.

Inyubako nini, kandi yagutse yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikorerwamo n'ubuyobozi, bigafasha abaturage kubona serivisi mu buryo bwihuse.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere igaragara ko ari ishuri, ku buryo biyifasha kwakira umubare munini w'abanyeshuri kandi bakiga bisagaguye.

Inyubako nini zirimo kubakwa mu buryo bwa kijyambere. Ubona ko zagenewe gukorerwamo ibijyanye no kwigishirizamo abana.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe ku buryo bwa kijyambere, kigizwe n'inyubako nyinshi. Ibyumba byacyo ni bigari ku buryo abanyeshuri bigamo bisagaguye.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere ariko igaragara ko yubatswe kera, isengerwamo n'abakristu benshi.

Abarimu bambaye imyambaro yabo batonze umurongo, barimo guhabwa amabwiriza y'ibijyanye n'amasomo bigisha nuko bagomba kubikora.

Inyubako nini zubatswe ku buryo bwa kijyambere, zubakishijwe ibikoresho bikomeye, zizatangirwamo serivisi zitandukanye.

Inyubako nini irimo kubakwa, bigaragara ko izaba ijyanye n'igihe, izakorerwamo n'ubuyobozi, bizatanga ubwisanzure ku bazayikoresha.

Ubwubatsi bw'ibikorwaremezo bitandukanye ni bumwe mu buryo Leta yifashisha mu guhanga imirimo ku rubyiruko kugira ngo rwiteze imbere.

Inyubako nini, yubatswe mu buryo bwa kijyambere, yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarangi atandukanye, isengerwamo.

Inyubako nini ikoreramo inzego z'umutekano, aho abaturage bajya kubariza ibibazo byabo bijyanye n'umutekano.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa gihanga, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, ubona ko yubatswe kera cyane.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere itangirwamo serivisi z'ubuyobozi, ubona ko yubatswe ku buryo bugezweho kandi bujyanye n'igihe.

Inteko yabaturage, igizwe n abagabo, n'abagore, bamwe bicaye abandi bahagaze, umuyobozi wabo arimo kubasobanurira ku bijyanye namategeko n'uburenganzira bwabo.

Inteko y'abaturage bicaye abandi bahagaze, bari kumwe n'umuyobozi barimo gusobanurirwa uburenganzira ku mategeko yabo.

urubyiruko rw'abanyeshuri, rugizwe n'abahungu n'abakobwa, rwiganjemo urwiga mu mashuri abanza, rurimo gusobanurirwa ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'amategeko.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore. Bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye mu gacaca, barimo kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amategeko n'ubutabera.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo bakuze, bari kumwe n'umuyobozi wabo, bari gusobanurirwa ibijyanye nubutabera n'amategeko bahabwa.

Inteko y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore, irimo gusobanurirwa ibijyanye n'ubutabera n'amategeko bahabwa n'ubuyobozi.

Urubyiruko rugizwe n'abasore n'abakobwa, rurimo gusobanurirwa amategeko n'ubutabera, bihabwa abaturage.

Inteko y'abaturage bicaye mu gacaca, barimo gusobanurirwa ibijyanye n'ubutabera n'uburenganzira ku mategeko yabo.

Itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore bambaye umwenda w'icyatsi. Ririmo gusobanurirwa ibijyanye n'amategeko n'uburenganzira bwabo.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu benshi, hifashishijwe bisi nka bumwe mu buryo bwihutisha ingendo ku bantu benshi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe indege. Ni bumwe mu buryo bwihutisha abantu kugira bakore imirimo yabo.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe imodoka nini zitwarira icyarimwe abantu n'imizigo, mu rwego rwo kugabanya akajagari mu mihanda.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, haherewe ku rubyiruko rw'abanyeshuri, ni bumwe mu buryo bworohereza ingendo ababyeyi, mu kugeza abana babo ku bigo by'amashuri bigaho.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe ibisi binini nka bumwe mu buryo bufasha mu gutwara abantu benshi icyarimwe.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe amagare, aho ubona ko yaba abagabo cyangwa abagore ar'uburyo buborohereza mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe imodoka nini bwambukiranya imipaka ni bumwe mu buryo bworohereza abaturage kwambuka ibihugu.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe bisi nini, nka bumwe mu buryo bugezweho bwihutisha ingendo.

Imihanda ya kaburimbo yubatswe ku buryo bugezweho, ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu korohereza urujya n'uruza rw'abantu bava mu karere kamwe bajya mu kandi.

Imodoka zabugenewe, zagenewe gutwara abantu n'ibintu, bazitemberamo bajya mu mashyamba atandukanye, kureba ibyiza bikikije igihugu.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe ibibisi binini bizwi nka za Litico ni bumwe mu buryo butwara abantu benshi n'imizigo yabo mu gihe gito.

Uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu hifashishijwe moto z'amapine atatu zizwi nka lifani, ubona ko n'ab'igitsina gore batahejwe muri ako kazi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe imodoka ntoya n'amapikipiki, nka bumwe mu buryo bwihutisha abantu mu ngendo zabo.

Uburyo bwo gutwara abantu ni ibintu, hifashishijwe imodoka ntoya zizwi nka tagisi vuwatiri, ni uburyo bwihutisha abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe imodoka zitwara abantu benshi kandi zikabatwarana n'imizigo yabo, ni bumwe mu buryo bworohereza abaturage kuva hamwe bajya ahandi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishije moto zikoreshwa n'amashanyarazi, mu rwego rwo kurwanya ihumana ry'ikirere.

Uburyo bwo kugeza umusaruro ku isoko hifashishijwe imodoka nini, ni bumwe mu buryo bwihutisha iterambere mu baturage.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe amagare nka bimwe mu bikoresho byorohereza abaturage baciye bugufi, kugeza umusaruro wabo ku isoko.

Ibibisi binini bya kijyambere, nka bumwe mu buryo bwifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu byinshi icyarimwe biva mu gace kamwe bijya mu kandi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe imodoka nini, ubona ko zubakiwe ibikorwaremezo bijyanye n'igihe, bigatuma abaturage babasha kwihuta mu ngendo zabo.

Ubwikorezi bw'ibicuruzwa bitandukanye, hifashishijwe imodoka nini zitandukanye, harimo: amadayihatsu, n'izindi zitandukanye.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe indege, ni bumwe mu buryo Leta y'u Rwanda iri gushyiramo imbaraga, kugira ngo yoroshe ubuhahirane.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe amabisi matoya n' amanini, bava mu gace kamwe bajya mu kandi, ku buryo bwihuse.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, higanjemo ubwo gutwara imizigo hifashishijwe ibikamyo binini, ivanwa mu gace kamwe ijyanwa ahandi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe imodoka ntoya, ni bumwe mu buryo Leta y'u Rwanda irimo guca, kubera ko buteza akavuyo n'akajagari, muri za gare zitandukanye.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe imodoka nini, nka bumwe mu buryo bwihutisha kugeza umusaruro ku isoko.

Uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu, hifashishijwe moto z'amapine atatu zizwi nkalifani, ni bumwe mu buryo butaheje igitsina gore.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe amato, ni bumwe mu buryo butaratezwa imbere, ku buryo abantu benshi babukoresha.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe moto ubonako bubakiwe imihanda, iborohereza mu kwihutisha ingendo zabo.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe ibi bisi binini, nka bumwe mu buryo butwara abantu benshi icyarimwe kandi bukihutisha ingendo zabo.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe imodoka nini n'intoya, ni bumwe mu buryo bwihutisha ingendo z'urujya n'uruza hagati y'uturere.

Umukino w'amaguru ku bari n'abategarugori, ni bumwe mu buryo bufasha urubyiruko rw'abakobwa mu kwiteza imbere, no kwirinda kujya mu ngeso mbi.

Igikorwaremezo cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, gikinirwamo umukino w'intoki uzwi nka voreboro, aho bigaragara ko n'abakobwa batahejwe inyuma.

Umukino w'umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ihuruza abantu benshi, igatanga akazi ku bakinnyi ku batoza n'abandi ndetse n'ibyishimo ku baje kuwureba.

Umukino wo gusiganwa ku maguru ni umwe mu mikino itaritabirwaga n'igitsina gore, aho abanyarwanda bo hambere bahezaga umwana w'umukobwa kwidagadura akoresheje kwirukanka.

Siporo yo kwiruka n'amaguru ni imwe muri siporo ifasha urubyiruko rutandukanye mu kwiteza imbere, no gusabana n'inshuti zabo.

Umukino wo gusiganwa ku magare, nk'umwe mu mikino ihuruza abantu benshi, kandi igatanga akazi ku rubyiruko rutandukanye, rukiteza imbere.

Umukino w'intoki wa tenisi ni umwe mu mikino ikinwa n'urubyiruko, mu rwego rwo kwiteza imbere no kwirinda kwishora mu ngeso mbi n'ibiyobyabwenge.

Siporo rusange ni bumwe mu buryo, buhuriza hamwe urubyiruko n'abasheshe akanguhe, maze bagahabwa inama yo kwirinda ibiyobyabwenge , no kuzerera, no gutangira amakuru ku gihe.

Umukino w'intoki urimo gukinwa n'abafite ubumuga mu rwego rwo kwerekana ko nabo bashoboye, kandi bakwidagadura nk'abandi bose.

Ibibuga byubatswe ku buryo bwa kijyambere, byifashishwa n'urubyiruko mu gukora siporo zitandukanye, nka bumwe mu buryo bwo kwidagadura no kuruhuka.

Umukino wo gusiganwa ku magare ni umwe mu mikino iteza imbere urubyiruko, yaba urw'abahungu cyangwa urw'abakobwa ndetse igatanga n'ibyishimo ku bafana babo.

Siporo ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'urubyiruko rutandukanye, mu kurwanya ibiyobyabwenge no kuzerera mu gihe cy'ibiruhuko, kugira ngo bazasubire mu masomo yabo bameze neza.

Umukino wa basiketi ni umwe mu mikino itanga ibyishimo n'akazi. Kandi ikaba idaheza urubyiruko rw'bakobwa cyangwa abahungu.

Umukino wo gusiganwa ku magare nk'umwe mu mikino ifasha urubyiruko gusabana na bagenzi babo no kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga.

Urubyiruko rw'abahungu rurimo gukina umukino w'intoki wa hendi boro, aho ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara, indi kipe ikambara imyenda y'umutuku n'abandi barimo gufana uwo mukino.

Umukino wa tennis ni umwe mu mikino imaze kumenyekana, n'ubwo ibikorwa remezo byawo bikiri bikeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umukino wo gusiganwa ku maguru, ni umwe mu mikino y'ingenzi, haba ku rubyiruko cyangwa ku bakuze, mu rwego rwo kubafasha kunanura no kugorora imibiri yabo.

Siporo zitandukanye ni bumwe mu buryo buhuriza hamwe urubyiruko rutandukanye bagasangira ibitekerezo ku bibazo bibugarije.

Umukino w'intoki wa hendiboro ni imwe mu mikino ije vuba. Ikinwa n'urubyiruko rw'abahungu cyangwa abakobwa, mu rwego rwo gusabana.

Amarushanwa mpuzamahanga y’umukino w’iteramakofe, bamwe bakunze kwita karate, ubona ko yahuje ibihugu bitandukanye harimo n’u Rwanda.

Umukino wo kwiruka ku maguru ni umwe mu mikino ihuruza abantu benshi baje kuwureba, abandi baje gufana abashuti babo.

Umukino w' intoki uzwi nka vole bolo aho amakipe abiri arimo guhatana mu kibuga, kimeze neza cyubatswe ku buryo bwa kijyambere.

Umukino w'intoki wa voreboro, ni umwe mu mikino isigaye ikinwa n'ibitsina byombi, aho bigaragara ko abakobwa nabo batahejwe inyuma muri uwo mukino.

Ibikorwaremezo bigezweho byubatswe kijyambere ni bimwe mu bikorwa byorohereza urubyiruko gukora siporo mu rwego rwo gusabana no kwiteza imbere.

Umukino w'intoki wa tenisi ni umwe mu mikino ikinwa n'urubyiruko rwinshi bikarubuza kwishora mu biyobyabwenge no mu ngeso mbi.

Umukino wo gusiganwa ku magare nimwe mu mikino iteza imbere urubyiruko n'abana, aho bibarinda kujya mu burara no gukoresha ibiyobyabwenge.

Urubyiruko rurimo gukina umukino wo gusiganwa ku maguru ubona ko ahantu urimo gukinirwa ari ahantu hubatse ibikorwa remezo bibafasha mu gukora siporo yabo.

Umukino wo gusiganwa ku magare, ni umwe mu mikino iteza imbere abawukina, abatoza bawo, ndetse ukinjiriza n'igihugu amafaranga.

umukino w'intoki wa baskel ni umwe mu mikino yatezaga imbere abayikina ndetse igatanga ibyishimo ku bayireba

Umukino wo gusiganwa ku modoka, ni umwe mu mikino ishimisha abawukina, n'abaje kureba uburyo imodoka zirimo gusiganwa, ku buryo bisigira abantu ibyishimo.

Urubyiruko rugizwe n'abahungu n'abakobwa, barimo kwitoza umukino w'intoki wa basiketi, ku bibuga byubatswe kijyambere, ahantu heza cyane.

Imikino ngororamubiri ni imwe mu mikino ifasha urubyiruko cyangwa abasheshe bakanguhe, kugira ubuzima bwiza no kurwanya indwara za hato na hato.

Abatoza b'umukino wa tenisi, nk'imwe mu mikino irimo gutezwa imbere, kugirango ifashe urubyiruko mubusabane hagati yabwo, no kwiteza imbere.

Umukino wo gusiganwa ku maguru ni umwe mu mikino yitabirwa n'urubyiruko, mu rwego rwo kwiteza imbere no gusabana n'inshuti za bo.

Ibikorwaremezo bya siporo bitandukanye, ni bimwe mu byifashishwa n'urubyiruko mu gukora, cyangwa gukina imikino ngororamubiri itandukanye.

Siporo yo gusiganwa ku magare, ni imwe mu mikino ifasha abantu mu kwidagadura no gusabana n'inshuti zabo. Ndetse no gukorera amafaranga.

Umukino w'intoki dukunze kwita vorebo, urimo gukinwa n'abakinnyi bamwe bambaye imyenda y'umutuku, abandi bambaye imyenda y'umweru, ushungerewe n'abantu benshi barimo kuwureba.

Ibikorwaremezo by'imihanda ni bimwe mu bikorwa byorohereza abaturage mu gukora ingendo, bavana umusaruro hamwe, bawujyana ahandi.

Imihanda yo mu giturage yubatswe ku buryo bwa kijyambere, mu rwego rwo korohereza abaturage imigenderanire yabo, bavana ibintu bimwe babijyana ahandi.

Imihanda ya kaburimbo, ni bimwe mu bikorwa remezo byorohereza abaturage, mu rujya n'uruza rwo gutwara ibintu n'abantu biva hamwe bijya ahandi.

Ibikorwaremezo birimo imihanda, ni bimwe mu bikorwa bifasha abaturage mu buhahirane n'imigenderanire, bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Imihanda ya kaburimbo ni imwe mu bikorwa remezo byorohereza abaturage mu rujya n'uruza, no kuvana ibicuruzwa mu karere kamwe, babijyana mu kandi.